Abantu bicaye mu nama harimo uwambaye umupira w'umutuku, uwambaye uw'ubururu, uwambaye ijire. uwambaye ikote, uwambaye ijire y'indi y'umutuku, bicaye bari gukora inama bamwe muri bo bari kwandika ku meza hateretseho uducupa tw'amazi y'Inyange.

Kwa muganga abarwayi bamwe baryamye hasi, abandi baricaye, abandi bari ku bitanda abaganga bari kugerageza kugenda babitaho, umwe kuri umwe, kugira ngo barebe ko bakoroherwa uko ari bose.

Abaganga babiri bambaye bipfutse ahantu hose, yaba ku mubiri, mu maso, ndetse n'ibiganza n'inkweto. Bari kuvura umurwayi uryamye ku gitanda, ushobora kuba arwaye icyorezo cyangwa se indi ndwara yandura. Umwe afite urupapuro ari kwandikaho ndetse n'ikaramu.

Agatanda umurwayi aryamaho, indobo yo gushyiramo imyanda ndetse n'agatebe abantu baherekeje umurwayi bicaraho n'akandi kantu k'umutuku kari hirya, byose biri mo imbere mu mbangukiragutabara ifasha abarwayi kugera ku bitaro bikuru.

Abakozi b'ibitaro bari kwanura ibikoresho bari bigije hanze mu gihe batangaga serivisi z'ubuvuzi ku barwayi benshi bari bitabiriye, hari igiti cy'umukindo giteye mo hagati ndetse n'ikindi cy'umunyinya kiri ku ruhande, ahandi hari izindi nyubako z'ibitaro.

Imbangukiragutabara ishinzwe gutwara abarwayi, ibavana ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi, mu gihe barembye bashaka kuhagera vuba, iparitse imbere y'ibitaro by'akarere ka Nyagatare, hari indabyo ndetse n'inzira abantu bacamo.

Abakozi b'ibitaro bya Gatunda bari mu rugendo rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya mirongo itatu, barangajwe imbere n'abapolisi b'u Rwanda inyuma ya hari imodoka ndetse hejuru hari icyapa cyanditseho ibitaro by'akarere ka Nyagatare, byubatse ahantu hari ibiti byinshi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ikote ry'umukara, ririho akantu kanditse ari guha seritifika umusore ukiri muto wambaye umupira w'umukara w'imbeho wambaye na baje mu ijosi inyuma yabo hari igipapuro cyanditseho ibintu ndetse n'irido.

Imbangukiragutabara y'Akarere ka Nyagatare, ibitaro bya Gatunda, irimo umushoferi uyitwaye wambaye agapfukamunwa ndetse n'undi mugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, wicaye imbere. Bari kugenda berekeza imbere.

Imbangukiragutabara ifite purake, gara maganatatu mirongo itandatu na gatandatu e iparitse imbere y'ibitaro. Ubusanzwe ifasha mu kwihutisha umurwayi urembye cyane, cyangwa se umugore ugiye kubyara ukeneye kugezwa ku bitaro bindi cyangwa se ibitaro bikuru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki n'agapfukamunwa, yicaye ku ntebe arimo ashyira hamwe ibizamini yafashe abarwayi, ku ruhande rwe hari bagenzi be na bo bari gukora nk'ibyo ari gukora, aho ari gukorera hateretse ibikoresho byinshi bitandukanye by'ubuvuzi harimo akadobo, akantu karimo umuti ndetse n'ahantu ho gukarabira mu gihe bibaye ngombwa.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, yanditseho ijambo purayise, n'agapfukamunwa amarinete ndetse n'uturindantoki, ari muri raboratwri, aho basuzumira ibizamini biba byatanzwe n'abarwayi, hari akantu ari gucomeka kamufasha kumenya amakuru yifuza.

Abaganga babiri b'abagore bambaye amatabuya y'umweru, barimo barareba mu bizamini bafashe abarwayi, hateretse n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi, kuri ako ka meza hariho n'agakarito kaba karimo uturindantoki n'udukombe tubirimo ibisubizo abarwayi batanze dupfundikiye neza.

Abaganga batatu, umugore umwe n'abagabo babiri bambaye amataburiya n'uturindantoki bari kwifotoza, imbere yabo ku meza hateretse ibikoresho bitandukanye, harimo amakaye n'impapuro bandikaho ndetse n'utundi tuntu, ku ruhande hari ibyapa byanditseho ndetse n'urugi ruriho amarido.

Abantu benshi bicaye higanjemo abagore bakikiye abana, biteze ibitambaro mu mutwe. Bari kuganirizwa ku bijyandanye no kwirinda indwara zo mu mutwe ndetse no kwita ku bana bakiri batoya.

Umugore uri kwa muganga umaze kubyara ucyambaye serumo yatewe, ateruye umwana we apfumbatije mu myenda myiza, hariho n'ishuka munsi ifubika abantu cyane. Hirya hari irido ry'icyatsi.

Umubyeyi wambaye ikanzu uri guha umwana ibere, konsa umwana neza mu mezi atandatu ya mbere nta kindi umuvangiye ni ingenzi ndetse no gukomeza kumuha ibere ndetse n'imfashabere kugeza ku myaka ibiri bituma akura neza.

Ababyeyi, umugore n'umugabo, bombi babyaye impanga bazizananiye kwa muganga, ariko kamwe umugabo ateruye ko kararembye cyane, aho bahagaze hari jaride, hateye n'ibirabo ndetse hari n'agatebe wigiye imbere wegera mu bitaro.

Umugore wambaye ishati y'icyatsi n'ikote inyuma, mikoro ebyiri zimuri imbere ari gutanga amakuru, inyuma hari icyapa cyanditseho RBC bahashinze ndetse n'uwundi muryango wateye inkunga, hirya mu itente hahagazemo abandi bantu.

Umujyanama w'ubuzima wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'igitenge, ufite mikoro uhagaze ari gusobanurira abaturage, ibijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe. Inyuma ye hari ikintu k'ikibandarore cyanditseho ko ugomba kubaho neza mugihe witaye ku buzima bwo mu mutwe. Mbishyize mu magambo make ndetse hahagaze n'abandi bagabo babiri, inyuma hari ibiti imbere yabo hari ururabyo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru na badji ndetse na kantu akoresha yumva uko abarwayi bamerewe, ahagaze muri ofisi ye hateretse intebe, hari n'ibindi bikoresho akenera ndetse n'akabati karimo ibitabo birimo amakuru ni menshi cyane.

Ibinini bivura indwara zitandukanye, harimo iby'umutuku, iby'umuhondo, n'ibyuumweru, bimwe ni binini ibindi biragereranyije, ibindi ni bito cyane, byose byifashishwa kugira ngo umurwayi wari urwaye abashe kumererwa neza.

Abantu benshi bagiye bambaye impuzankano, harimo abambaye amataburiya y'ubururu abandi bambaye umweru hejuru, bafite bandalole yanditseho ngo: "Birakureba, rinda umuryango wawe Malaririya", bari gutambika ahantu mu muhanda bagenda babibwira abantu bose, inyuma hari inzu zituyemo abantu.

Abantu bahagaze harimo n'umupolisikazi, bahagaze imbere y'inyubako bafite bandarore, yanditseho ngo koresha agakingirizo ubungabunge ubuzima bwawe ndetse nandi magambo menshi.

Abantu bambaye utugofero tw'akazi mu mutwe, udupfukamunwa n'inifomo n'uturindantoki, bicaye hasi bategereje kumva icyo bari bubwirwe gusa inyuma hari abandi bahagaze bo batarasoza ibyo bakoraga.

Abasore n'inkumi barambuye amaboko bari gushyigikira igitekerezo cy'ibyo bari kuvuga. Bambaye imipira isa hejuru, buri wese hasi akambara icyo ashaka. Imbere yabo hateretse imeza iriho agacupa k'amazi, ingofero, amakaye yo kwandikaho ndetse n'igikombe.

Abana b'abakobwa bari mu kigero cy'ubwangavu bifotoreje imbere y'inyubako y'amashuri ifite inzugi z'umukara, yubakishije amatafari ya brokesima bafite bandlole imbere; bigaragara ko bari barangije ubukangurambaga.

Abahungu babiri n'umukobwa umwe bambaye imipira y'umweru hasi buri wese yambaye icyo ashatse bahagaze imbere y'ahantuhubatse amatente hari n'umugabo uhagaze, hirya hari ibiti bitari byinshi cyane.

Umugore wambaye ikanzu irimo uturongo tw'ubururu, utw'umweru n'utw'umutuku uhagaze aho acururiza imiti gakondo ye, harimo: iyi mu ducupa, iri mu dukarito n'indi iteretse hejuru na yo iri mu dukarito, ku meza hari ibindi bikarito byagiye bishiramo imiti.

Imbangukiragutabara, ebyiri, ziparitse ahantu hamwe ziteganye, inyuma hari icyapa cyanditseho ibintu by'ibyarabu ndetse hari n'idarapo ry'igihugu cyabo, hirya hari ibiti ndetse n'indi nyubako ihubatse

Umugabo uri gutambika ajya mu ivuriro rinini cyane ryubakishije amatafari ahiye n'amabati asize irangi ry'umutuku, imbere yaho utaragerayo hari ubusitani burimo ibiti birebire ariko bigiye bitandukanye hagati yabyo harimo umwanya.

Umugore wambaye igitenge gisa icyo hasi n'iribaya afite agatambaro yifubitse mu ijosi ndetse na marete y'umukara ari imbere y'ikigo nderabuzima gisize ibara ry'ubururu bwererutse cyanditseho ijambo gira ubuzima.

Umugore wambaye umupira w'umutuku uhetse umwana usinziriye ufite na malete wikoreye agafuka ahagaze ahantu ku rukarabiro hariho icyapa cyanditseho ibintu mu magambo y'icyatsi ndetse na titile y'ubururu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'amaboko maremare arunamye arimo kuvura umugore wambaye agakanzu k'amaboko magufi, hari ibikoresho byinshi biteretse ku meza harimo: ama ga, akantu k'agakarito ndetse n'agacupa karimo umuti, hari hirya akantu ka serumu ndetse n'ako bareberamo uko umurwayi ahagaze ndetse hateretse n'intebe inyuma.

Abantu bahagaze, abagore n'abagabo, abasore n'inkumi, barimo n'abaganga bambaye amataburiya, abandi ari abari babasuye bisanzwe, bahagaze imbere y'ivuriro ryanditseho ''ngo gira ubuzima.''

Umuganga wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano arimo aravura umurwayi uryamye ku gatanda wambaye igitenge n'igitambaro cyo mu mutwe amuvurira ahantu harimo ibikoresho byinshi by'ubuvuzi.

Umurwayi wambaye igitambaro mu mutwe, n'umupira w'amaboko magufi, ukenyeye igitenge, arimo arahereza muganga agakarine ke kugira ngo amwandikire, hirya ku ntebe hicaye abandi bagabo batatu nabo bategereje kuza kuvurwa nyuma ye.